Inzoga z'amoko atandukanye, izi nzoga zo mu byuma ni inzoga ushobora kunywa ufite inzara cyangwa udaheruka kurya zikakumerera nabi cyane. Ni byiza ko igihe ugiye kuzinywa ugomba kumenya ko ugomba kubanza warya, kandi ukazinywana ubwenge, nta guhubagurika ngo ugotomere kuko zishobora kukwica, zikakuraza mu nzira.

Mu ndirimbo runaka, umuntu uri hejuru imbere y'abandi bose, bamureba ababyina yumva yishimye anezerewe, yumva azamuwe mu ntera cyane, ugereranyije n'abari hasi, iyo arimo aririmba aba afite ibyiringiro mu mutima yumva ari ahantu hakomeye cyane, yumva ari imbere y'abandi kandi agomba kubashimisha cyane.

Isamake zikabushije ni isamake ziryoha cyane, iyo uziriye uba wumva ziryoshye kandi iyo ziriho igitunguru, ziba zinurira cyane ku buryo ushobora kurya icumi, kandi ukumva mu kanwa uracyazishaka ariko ko mu nda wahaze. Isamaki rero ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Uruganiriro rumeze neza cyane, rurimo intebe nziza z'umweru, rufite ubunywero, akabati karimo inzoga z'ubwoko bwose. Inzoga ni ingirakamaro zituma umuntu asabana n'abandi.

Kunywa fanta ni ingirakamaro cyane, kubera ko inzoga zisembuye zituma dukora ibintu bibi bitandukanye. Cyane nk'iyo umuntu yasinze aba ashobora gutuka mugenzi we, n'ibindi bikorwa by'urukozasoni. Ariko iyo umuntu yinywereye ka fanta atura umubi, agataha ameze neza, akaryama agasinzira, ubwonko bwe bugakora neza nta kibazo.

Ibyapa ni ingirakamaro kuko bigaragaza ibicuruzwa bicururizwa ahantu runaka, bikerekana n'aho abantu bagomba guhagarara bitewe n'aho baturutse .Ibyapa bidufasha kumenya icyerekezo turi kwerekeramo, ibyapa ni ingirakamaro bidufitiye akamaro kanini cyane.

Abamotari babigize umwuga, bakabikora neza, bibaha amafaranga menshi kandi ashimishije , kuberako iyo atwaye umugenzi akamuha amafaranga kugira ngo agaruke aho yari ari amuha andi mafaranga. Ni byiza rero kugira ngo umumotarari akore akazi ke neza nta buryarya, kuko bituma yiteza imbere vuba vuba.

Ubucuruzi bw'ibikapu, amabase, n'ibindi bikoresho bitandukanye ni ibintu bidufitiye umumaro munini. Ibikapu bidufasha gutwaramo ibikoresho byacu tukajya mu kazi nta kibazo kandi tukagakora neza cyane.

Iyo uri kurya ibiryo urikumva udashaka kurya ariko ukabona agasenda, bituma wumva ushaka kurya ibiryo byinshi, kubera ko urusenda rutuma wumva ushaka kurya cyane, bigatuma urya ukagira imbaraga nyinshi cyane.

Amagare ni ingirakamaro, adufasha kugera ahantu hafi kandi mu buryo bwihuse bworoheje, bitewe n'amafaranga aba ari mu mifuka ya buri wese, ni byiza rero kugura amagare kugira ngo afashe abagenzi bari kugenda kandi bafite amafaranga adahagije.

Banki ni ingirakamaro igirira abaturage akamaro kanini cyane kubera yuko abaturage iyo babonye uko babika amafaranga yabo , ntibayabibe , kuko ushyira amafaranga mu nzu bishobora gutuma bayakwiba , ukayabura. Kandi mu gihe kuri Banki bayakubikira neza nta nkomyi.

Urupangu runini cane rufite inzu iteye irangi. Ryiza cane n'amadirisha abiri, imbere yayo hari ikibuga kinini cane kirimo amapave menshi.

Urujya n'uruza rw'aba motari n'abagenzi baparitse impande ya etaje, etaje ni ingirakamaro cyane kuyubaka kubera ko ugenda ugereka hejuru y'iyindi, ifata umwanya mutoya, ugasanga ifite ibyumba byinshi byo gukoreramo kandi ari ahantu hatoya.

Inzu nziza cyane iteye amabengeza isize amarangi, ni inzu buri wese yitegereza kandi akayireba akumva ari inzu nziza ku buryo yakwifatiraho n'agafoto. Tujye rero tugira ubushake bwo kubaka inzu nziza, kugira ngo natwe twumve twishimiye kuba twaba n'aho hantu, ndetse dushyiraho n'indabo imbere kuko Abanyarwanda turazikunda cyane.

Ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, amagazi, imyunyu, indobo, amasabune, imyenda, baro, amaji, ibishyimbo, ibijumba, amateke n'ibindi.

Ikirangantego kigaragaza ibicuruzwa bicururizwa muri iyi butike harimo :amashati, amasengeri, imipira, imitako, hariho na nimero za telefone zifasha uje kugura niba asanze hafunze akabahamagara bakamugurisha.

Amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro, atuma abaturage biteza imbere mu buryo butandukanye, bagenda bacuruza ibintu bitandukanye, bigatuma bazamuka kandi bakazamura n'igihugu cyacu, aho batanga imisoro ugasanga iri kugirira igihugu umumaro.

Ubucuruzi butandukanye bw'ibiribwa bitandukanye imiceri ,amafu, ibidomora, imbabura, ubucuruza ni ingirakamaro kuko bituma umucuruzi abona amafaranga buri munsi buri munsi bigatuma yiteza imbere.

Amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro mu gihugu cyacu kubera ko adufasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye, aho umuntu apanga ubucuruzi bwe akazamuka ku rwego rushimishije, bigatuma yiteza imbere agateza imbere n'igihugu cyacu.

Inzu z'ubucuruzi zidufasha gucuruza ibicuruzwa bitandukanye ni ingirakamaro mu mibereho yacu, kuko ufata imashini ugatekaho ukadoda ugashyiramo uducuruzwa bigatuma witeza imbere.

Ubucuruzi buciriritse bw'ibiribwa bitandukanye ni ingirakamaro, kuko umuturage ufite udufaranga dukeya ashobora kujya mu isoko agateneza cyangwa se akazengurutsa utwo yikoreye ku mutwe, umukiriya abonye yamwungura magana atanu cyangwa igihumbi, akagenda yishimye kandi akabona ibirayi byo kurarira.

Ibikoresho twifasha tukora amasuku: imikoropesho; imikubuzo ;ingorofani n'ibindi bidufasha kubona amazi kugira ngo tugire amasuku mu ngo zacu ni ingirakamaro kubera kobidufasha kuba ahantu heza kandi hafite isuku.

Ubucuruzi bwo ku mutwe ni ubucuruzi bwateje imbere ba rubanda rugufi, aho umuntu aba adafite icyo arya ariko yafata ibase agakubitamo inyanya akajya mu isoko, akaba ashobora gutahana inyungu y'amafaranga ibihumbi bitatu, bityo uwo munsi akarara ariye nta kibazo araranye.

Kugaragaza ibyo ukora ku nzu z’ama etaje ni ibintu bifite umumaro ushimishije, kubera ko udashobora guturuka hasi ngo ugere hejuru uri gushaka ikintu. Ariko iyo uhagaze hasi ureba hejuru ugahita ubona igikorerwa muri uwo mwanya, bigatuma uzamuka ukajya kugishaka.

Amapoto y'amashanyarazi ni ingirakamaro agenda ahereza abaturage umuriro bagafatiraho, ku buryo ipoto imwe ishobora gufatiraho nk'abaturage batanu, batandatu ugasanga bifite umumaro munini cyane. Buri muturage agacana kandi yisanzuye.

Matera ni ingirakamaro. Kera twaryamaga ku biti n'ibishogoshogo, ugasanga hari kuzamo inda, ibiryanyi n'ibindi bisimba: imperi n'ibindi. Ariko uyu munsi uryama kuri matera imeze neza, ukaryama ugasinzira. Abahanga bavuga ko matera zivura n' umugongo.

Ubucuruzi bw'ibitunguru n'amakara budufitiye akamaro kanini , aho ibitunguru tubyifashisha mu gukaranga no guteka imboga, amakara nayo tuyifashisha turi guteka hahandi uterekaho ibiryo ku makara ukagenda, ukagaruka ugasanga byahiye waregeye amakara makeya kandi aringaniye.

Kuzitira amazu ni ingirakamaro cyane, kuko abajura nta bwo bapfa kwinjira ngo bakwibe. Ikindi kandi umuntu uri gutambuka yigendera, ntashobora gusimbuka ngo agwemo imbere atazi ikirimo. Uruzitiro rero rutuma ugira umutekano uhagije, kandi ukagubwa neza.

Ubucuruzi bw'imbuto ni ubucuruzi bugezweho neza cyane, aho umuntu ufite igishoro gitoya ashobora kurangura ubucuruzi bw'imbuto butandukanye: inanasi, imineke, voka, amatunda n'utundi akagenda yiteza imbere, ugasanga nko mu gihe cy'amezi atatu, ane, atanu, amaze kwiteza imbere, amaze gucuruza ibintu byinshi cyane.

Gutwara abagenzi kuri moto ni ibintu bitanga umusaruro ushimishije, aho umuntu ashobora gukorera amafaranga menshi ku munsi ari gutwara abagenzi, kandi akabona n'ayo arya, n'ayo asagura, ubuzima bwe bugakomeza bukagenda neza.

Inzu nziza cane ifite urubaraza, imbere hari indabyo nziza cane, inzu iteye amabara y'umweru n'umuhondo isa neza cane kandi iri ahantu hafite amahumbezi.

Hoteri nziza cyane ifasha abantu kwakira abantu batandukanye, abanywa, unywa inzoga z'ubwoko butandukanye, abashaka kwiyakira, abashaka kuganira. Iyo ufite n'ubukwe bw'abantu bakeya witabaza iyi hoteri ukajyamo ukayikoresha ugatumira abantu bakabagaburira mukarya mukanezerwa.

Ubucuruzi bwo gutanga amayinite ni ubucuruzi bugezweho kuko abantu bose baba bafite amafaranga ku matelefone yabo. Ubucuruzi bwo gutanga amayinite ushobora kubukora uri gukora n'utundi turimo two gucuruza utuntu dutandukanye aho wicaye mu mutaka wawe, kugira ngo uzaze kwiteza imbere buhoro buhoro.

Icyapa n'ikimenyetso kidufasha kumenya ahantu hatandukanye, ibihari n'ibihabarizwa tukamenya uko bitangwa n'ahariho , icyapa ni ingirakamaro aho ugiye ugisanga bituma winjiramo uzi icyo ugiye gushaka.

Icyapa ni ingirakamaro; gituma habaho kumenyekanisha ibikorwa byawe kandi umuntu wese uhanyuze agahagarara yitegereza, areba ibintu waba ukora, ibyo ari byo, bikamufasha kumenya niba yarangira abandi ibyo ukora, cyangwa se na we ubwe akagusanga.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zitanga umusaruro mwiza kandi ushimishije. Iyo wubatse inzu yawe bakayikodesha, uba ufite amafaranga buri kwezi winjiza kandi akugirira umumaro mu byo uri gukora byose. Inzu y'ubucuruzi ihita ibona umuntu wo kuyikoreramo. Indabo na zo ni nziza cyane. Abanyarwanda dukunda kuzitera imbere kuko zituma habaho amahumbezi.

Ibirayi ni ibihingwa bitanga umusaruro ushimishije， duhinga kandi tukarya twishimye. Ibirayi iyo ubiriye bifite akamaro kanini cyane mu mubiri，kandi ni byiza kubiteka kuko niyo waba udafite amazi， ubiteka mu mavuta，cyangwa ukabiteka mu mazi，ugasanga nta kibazo.

Abacuruzi ni abantu bicara bategereje ko babona umukiriya uza kandi batasezeranye. Gucuruza bisaba kwihangana no kugira umutima mwiza, ukakira neza abakiriya, ukababwira neza ,kugira ngo ejo bazagaruke batagenda bagahera.

Telefone ni ingirakamaro, zidufasha mu itumanaho, aho umuntu ashobora guhamagara mugenzi we ari mu yindi ntara, akabasha kumvikana neza nta kibazo, kandi ubutumwa amuhaye bukamugeraho, bigatuma twisanzura kandi tuvugana tukamenya ibibazo dufitanye hagati yacu, n'ibyishimo dukoresheje itumanaho.

Bote n'ikweto zidafasha mu buhinzi n'ubworozi, iyo uri gukukira inka biba bisaba ngo wambare bote kugira ngo udahagarara mu masogorore ugasanga mikorobe ziri kwinjira mu birenge byawe. Ibiduki nabyo bidufasha gushiramo amazi kugira ngo igihe yagiye amatungo azabasha gushoka nta kibazo.

Amakaro ni ibikoresho by'ubwubatsi bigaragaza inzu neza cyane, aho ubona inzu ikeye iri kwaka kuberako wayishyize amakaro hejuru, ni byiza rero kugura amakaro ugashyira ku nzu yawe kuko ihita igaragara neza, n'uje ari kuyishaka ashaka gucururizamo, akabona iriho amakaro aba abona inzu ifite isuku kandi imeze neza cyane.

Abacuruzi bacuruza amafaranga muri emutiyeni, kubitsa no kubikura, batugirira akamaro kanini cyane, kuko iyo ukeneye koherereza umuntu amafaranga, uramwegera ukamuha amafaranga akayohereza, waba uyakeneye kugira ngo ayakoherereze ,na bwo ukamuha amafaranga akakoherereza ,waba ushaka no kubitsa, ukamuha amafaranga akakubikira.

Amagare ni ingirakamaro adufasha kugera aho tugiye byihuse kandi tudatanze amafaranga menshi. Ni byiza rero kuba ufite urugendo ukagenda ku kagare kawe kagatuma uhagera vuba kandi byihuse.

Icyapa kigaragaza ibintu umuntu akora ni ingirakamaro cyane, kuberako iyo umuntu ari kugenda mu nzira areba hejuru akabona ibihanditse hanyuma akamenya ibihakorerwa ,bityo akaba ashobora kumenya ahari bushakire icyo ashaka bitewe n'impamvu runaka.

Umukozi ukora ku rusyo rubeta amasaka, ibigori, amamera, amashyaza, ubunyobwa n'ibindi biribwa bitandukanye, wambaye umwenda w'akazi. Igisarubeti, bodaboda z'ubururu n'akagofero k'umweru ahagaze aho akorera.

Imigozi idufasha kwakira amazi ni ingenzi cyane, bituma dukurura amazi mu ngo zacu kandi tukavoma neza nta kibazo. Aho kubura amazi ugahora ufite amazi, umwanya wo kujya kuvoma kure. Ni byiza rero gukoresha ibi bikoresho dufata amazi mu rugo ndetse no muri karitsiye zitandukanye.

Amagare ni bimwe mu bikoresho bidufasha kwikorera aho imitwe yacu idashoboye kugera no kugeza, niba ufite ibiro magana abiri by'ibirayi, ntabwo wabyikorera ku mutwe ngo ubigeze ku isoko, ahubwo uhita ubipakira igare rikabigeza ku isoko vuba byihuse.

Inzu zubakishijwe amakaro, zimeze neza， ni inzu zishobora gutanga umusaruro uhagije ku bazubatse， kuko ujya kuyikoreramo arayirambagiza akayishima， kubera ko iba yubatse neza，kandi isa neza ikomeye.

Inzu z'ubucuruzi zikoze ku muhanda, ni inzu zishimishije kandi zitanga umusaruro uhagije, kuko buri wese uri ku muhanda aba agomba kwinjiramo akagira ikintu ahaha agakomeza urugendo. Ni byiza rero inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda kuzibungabunga no kuzifata neza, kugira ngo zise neza kandi zitange umusaruro ushimishije.

Kubaka inzu ukayiha ibisabwa byose, bituma buri wese yakwifuza kuba yayikoreramo, kubera ko yo ubwayo iba ihamagara abakiriya kugira ngo baze kuyikoreramo, kandi inzu ni ingirakamaro kuko yinjiza amafaranga atandukanye, mu buryo bumwe n'ubundi.

Etaje nini cyane igeretse inshuro eshatu, ikorerwamo uruhande rumwe ubucuruzi bw'inyange. Ubucuruzi bw'inyange ni ubucuruzi budufitiye akamaro kanini cyane, nk'amata abana barayanywa bagakura neza cyane, ndetse n'amazi iyo uyanyoye wumva umeze neza cyane y'inyange.

Ubucuruzi bwa masima ni ubucuruzi budufasha cyane cyane mu bwubatsi, aho umuntu ajya kubaka inzu akaba nta kindi yakoresha kitari isima. Bityo iyo ubucuruzi bw'isima bumwegereye bituma yihuta mu bwubatsi bwe atari kujya kuyikura kure.

Amazu y'amayetage, akaba afite ibirangantego, kugira ngo umuntu amenye ikintu cyahakorerwa. Kubera ko iyo uri hasi ureba hejuru, ukabona ni kure cyane, ariko iyo urebye hejuru ukabona handitse ikintu kikurangira aho uragana, n'ibyo ugiye gukoresha niba bihari.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye iby'ubuhinzi n'iby'ubwubatsi, ndetse n'ibikoresho by'amasuku. Amarakelete, amasabune, amasima, amafumbire, mvaruganda n'ibindi.

Ubucuruzi bw'uduconsho dutandukanye, ni ubucuruzi buduha amafaranga make make ariko akagwira vuba. Ni byiza rero gukora ubucuruzi nubwo waba ufite udufaranga dukeya, bigatuma witeze imbere, buhoro buhoro bigeraho ukazamuka kandi ugasanga umeze neza cyane.

Icyapa kerekana ibyo gikora gifura imyenda ibiringiti, amashuka imipira , inkweto, uburoso bwo koza inkweto amakoti, imikenyero n'ibindi byinshi.

Ubucuruzi bw'imyaka n'ibiribwa ni ubucuruzi bugomba kubera ahantu hasa neza cyane, ni ibintu bigira akamaro cyane, iyo uri gucururiza ahantu heza ,bituma abakiriya bakugana bishimye ,kandi banezerewe, bashimishijwe n'ibicuruzwa no kubaha naho biri guturuka kuko haba hafite isuku nziza cyane.

Umuntu wubatse inzu z'ubucuruzi zifite imiryango myinshi ,aba afite amafaranga ahagije kandi atubutse, kubera ko umuntu wese ukodesheje iyo nzu ,ahita amuha amafaranga ya buri kwezi. Iyo inzu wayubatse neza rero ukayiha ibisabwa byose ,bituma umuntu wese aza ayigana kandi aza ayishakisha

Ivomo ry'amazi ryitabirwa n'abaturage benshi cyane baje gushaka amazi baziritse ibijerekani ku magare yabo batunda, umwe umwe yuzuza ijerekani akagenda n'amabase atatu n'ijerekani imwe iyo umuntu uri gufura imyenda ye aho ngaho.

ubucuruzi bwo mu rugo ni ubucuruzi bwiza cyane. Iyo wubatse akazu ukagashyira iruhande rw'inzu kaguha umusaruro mwiza cyane. Kuko ucuruza uri no mu rugo uri gukora uturimo twawe, uje gufata ikintu akaguhamagara ukamuhereza icyo ashaka. Ni byiza rero kugira akazu kari ku rugo iwawe ko gacururizamo.

Ubucuruzi butandukanye bwa metera n'imikeka. Imikeka idufitiye akamaro kanini, ituma tugira isuku mu nzu, iyo irambuye mu nzu ugasiga inkweto hanze, bituma mu nzu hawe niba harimo igitanda, kiba kimeze neza kandi hasa neza hakeye.

Ubucuruzi butandukanye harimo ubwa amamatera, imyenda itandukanye y'amoko yose, imashini idoda imyenda, n'abamotari bari kwigendera. Izi matera ni nziza cane kuziryamaho rwose zivura umugongo.

Ibitenge ni imyenda ishimisha abadamu. Iyo umudamu agiye mu bukwe cyangwa agiye gusenga yambaye igitenge, aba yumva ari bwo yambaye umwenda ushimishije, ku buryo no kujyana n'umugabo we aba yumva ari ibintu bimuhesheje agaciro kanini cyane.

Ubucuruzi bw'inkweto za bodaboda ni ubucuruzi bufasha abaturage ba rubanda rugufi kubona inkweto zo kwambara batarushye. Kera abanyarwanda bambaraga ibirenge, ariko inkweto za bodaboda zije batangira gushishikariza abantu kwambara inkweto za bodaboda, kubera ko zari inkweto ziciriritse kandi zigura make.

Ekwiti bake ni banki y'abaturage, ifasha abaturage kubika no kubikura amafaranga, ni ingirakamaro iyi banki ifitiye abaturage kubera ko itanga inguzanyo ku giciro cyiza kandi gishimishije kubika no kubikura buri gihe ukobyifuje.

Gutegura ku meza ni ingirakamaro, bituma umuntu wese ashimishwa no kwicara kuri ayo meza, kuko abona ameza ateye amabengeza cyane. Ni byiza rero ko twategura ahantu hose tuba hagasa neza, ugasanga ku meza hari kwaka hameze neza hateguye.

Gusohoka tukabona n'ahantu ho kogera, tukishima, tukanezerwa, ni ibintu bifite akamaro kanini mu buzima bwa muntu. Ni byiza kwidagadura, ukishima, ukajya ku mazi ukanezerwa, ubundi ubuzima bwawe bugakomeza nta kibazo.

Amazu meza, ni amazu aba afite amajaride y'ibiti ari impande yabyo, kuko atanga akayaga muri ayo mazu, ufungura amadirishya, ugasanga icyo giti kirimo kiratanga akayaga n'akuka, harimo amahumbezi ameze neza cyane.

Ni nziza cane, ifite ubusitani imbere mu marembo igizwe, bugizwe n'indabo zitandukanye z'amoko yose n'amatara imbere yo gucana.

Umugabo ufite positeri yo kwifotoza wambaye agapira k'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru ikoze mu mufuka uhagaze ku nzu iriho za ride nziza cane dukundaga ahagaze impande y'imodokari y'umweru ifite akabaro k'umutuku.

Ubushera ni ingirakamaro, iyo uri mu kazi unaniwe ufite icyaka, cyangwa ushonje, ukagotomera ubushera mu gikombe wumva uhaze, kandi ukumva ugaruye ubuyanja, imbaraga zongeye kugaruka, ugasubira mu kazi kawe nta kibazo.

Ubucuruzi bw'ibintu biciriritse ni ingirakamaro kubera ko niba ugiye ku isoko ugura imbuto, ukagura umukubuzo, ukagura umwuko ugatahana ibintu byinshi bitandukanye kandi bidahenze cyane bigatuma mu rugo ubikoresha nta kibazo.

Urujya n'uruza rw'abantu, mu isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye, inyuma y'isoko hari ibiti binini cyane, bizengurutse amazu, yubakishije isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye.

Ubucuruzi bw'imbuto burimo inyanya ibitunguru pavuro n'ibindi ,ni ubucuruzi butanga umusaruro ushimishije, kuko n'ubucuruzi buri muntu aba akeneye umunsi ku munsi, kugira ngo aze ahahe ibyo ararya uwo munsi ndetse n'umunsi ukurikiye.

Urujya n'uruza rw'abacuruzi bari gucuruza mu isoko bifasha abaturage kubona ibiribwa bashaka, kandi bitabagoye. Kubera ko abantu bari gucuruza ibintu bitandukanye nawe wagera mu soko ugahitamo icyo ushaka, ugahaha bitakugoye.

Ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye amagi, amabombo, amaji, imiceri. Ni ingirakamaro gucuruza ibiribwa, kubera ko iyo uri gucuruza ibiribwa, nawe ugenda ufataho urya, kandi ukarya ibintu bimeze neza bifite ubuziranenge, wikuriye ku byo ucuruza.

Ubucuruzi bw'inkweto za bodaboda ni ubucuruzi bwateje imbere abanyarwanda, aho abanyarwandakazi ba kera n'abanyarwanda bambaraga ibirenge, ariko uyu munsi basigaye bambara inkweto kubera ko babonye inkweto zo ku giciro giciriritse.

Tangawizi ni igihingwa gifite umumaro munini cyane. Aho kifashishwa mu rwego rwo kuba umuti, kuko tukifashisha mu burwayi butandukanye. Iyo utetse icyayi ukagishyiramo tangawizi, hehe n'inkorora cyangwa ibicurane.

Imbabura zidufitiye akamaro kanini cyane, zituma ibicanwa bigabanyuka, tugacana bikeya, kuko inkwi watekesha iminsi ibiri itatu, ku makara amafaranga wazigura, amakara wayatekesha icyumweru kimwe, cyangwa icyumweru n'igice.

Imyumbati ni ingirakamaro, iri mu biribwa bitera imbaraga. Guhinga imyumbati ni ingirakamaro kubera ko iyo uyihinze irera, kandi ikera cyane igatanga umusaruro ushimishije. Ni byiza rero guhinga imyumbati kubera ko iri mu bitera imbaraga, ukagira imbaraga ugakora cyane.

Inkweto ni ingirakamaro ku baturage, bituma iyo wambaye inkweto uba wumva umeze neza kandi mu kirenge uri gutambuka umeze neza. Iyo wambaye ibirenge ushobora gukandagira mu giti kikakwica. Inkweto ni nziza cyane tujye dukunda kuzigura kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Isoko ni ingirakamaro ridufasha guhaha ibyo dukeneye, n'abacuruzi bari gukora umwuga wo gucuruza bakibeshaho kandi bakiteza imbere, n'abahaha n'abazana ibyabo mu isoko bakabona amafaranga nta kibazo.

Umunyu ni ingirakamaro, iyo utetse ibiryo nta munyu ufite ntabwo wabasha kubirya ngo wumve uri kurya ibiryo. Uba wumva ari nk'ibintu by'ibirugaruga uri kurya. Ni byiza rero guteka ukarunga umunyu uringaniye kandi uri mu rugero.

Urujya n'uruza rw'abantu ni ingenzi iyo tujyiye guhaha mu isoko duhaha ibyo twifuza byose bigatuma twiteza imbere uko bukeye n'uko bwije kandi bigatuma ufite ibihumbi bibiri bitatu afata agatete nawe akajya mu isoga akarangura imboga, inyanya n'imbuto bigatuma yiteza imbere mu rugo rwe bikagenda neza.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye， ririmo abadamu batandukanye， urubyiruko，abasore，ricuruza ibiribwa byose bitandukanye，amavuta， imbuto， amafu n'ibindi.

Ibicuruzwa bitandukanye ni ingirakamaro ku mucuruzi, cyane amafu atandukanye y'ubwoko bwose. Iyo ugiye guteka igikoma, uragenda bakaguha amafu kuri butike ukaza ugatekera abana bakanywa agakoma, bakishima bakanezerwa.

Indagara zo mu mazi ziba zifite umubiri ,n'indagara uteka ku buryo ugiye kuzirya kugira n'inyama ,ziba zifite utugufa dutoya cyane mo imbere ariko inyuma zifite ikintu kimeze nk'ikinyama, ku buryo iyo zitetse mu biryo ,urarya ukumva ni ibiryo biryoshye bimeze neza cyane.